Ahabereye amahugurwa, hicaye abantu ubona batandukanye higanjemo abagabo n'abagore imbere kandi muri icyo cyumba hari icyapa cyerekana amashyaka atandukanye aherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bitegereje kandi imbere nk'aho hari umuntu uri kugira icyo ababwira.

Inzu nziza cyane ubona yubatse ku buryo bugezweho, mu imbere harimo abantu benshi ubona ko basa nkaho bitegereje imbere nkaho hari umuntu uri kubaganiriza, imbere yabo aho bicaye hari ameza meza ariho ibitambaro bigizwe n'umweru n'umuhondo ateretseho indabo ndetse n'amazi ya buri muntu.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza ubona ko bateretseho telefoni ndetse n'ibindi bikoresho, kugira ngo babashe gukurikira batarangaye, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kugira ibyo ababwira.

Ahabereye amahugurwa ubona arimo abantu biganjemo urubyiruko, bicaye bose bafite ikintu bari kureba, hagati yabo harimo umugabo ubona wambaye ikote bisa nk'aho nawe afite icyo ari kuvuga, inyuma yabo hari abantu bahagaze nabo benshi bisa nkaho babuze aho kwicara.

Ahabereye amahugurwa yahuje abantu batandukanye higanjemo urubyiruko rwambaye impuzankano harimo kandi umwe wahagurutse ufite igikoresho cyifashishwa mu gusakaza amajwi asa nkaho ari gutanga igitekerezo imbere ye kandi hari umukobwa bisa nkaho yambaye bitandukanye nabo wambaye ijire y'amabara y'ubururu.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abagore n'abagabo, hakaba harimo n'umugore umwe wafashe ijambo, bigaragara ko hari icyo ari kubwira abandi, mu gihe abandi bamukurikiye bafite ibikoresho byo kwifashisha, harimo amakaramu n'amakayi ndetse n'imashini bigaragara ko ibyo bari kumva hari aho bari kubyandika. Hakaba hari n'abagabo bari inyuma yabo, bari kubafata amajwi n'amashusho, bakoresheje ibyuma byabugenewe mu gufata amajwi.

Abantu bishimye higanjemo abagore ubona bari gufata ifoto y'urwibutso bisa nk'aho barangije igikorwa kimwe, harimo umugore umwe uri imbere ufite isakaza, igikoresho cyifashishwa mu gusakaza amajwi.

Inama yabereye ahantu heza ubona yitabiriwe n'abantu batandukanye ariko biganjemo abagabo, harimo kandi n'abashinzwe umutekano, ku ntebe y'imbere yicayemo uzwi nk'umusirikare, ku ntebe ya kabiri yicayemo undi uzwi ku izina ry'umudaso bose ni abashinzwe umutekano, bigaragara ko hari umuntu ufite ibintu ari kubabwira uri imbere.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, abicaye mbere ni aba mama ubona basenga mu idini rya isilamu, inyuma yabo hari abandi bagabo bose basa nk'aho bakurikiye umuntu ufite ibintu ari kubabwira.

Inzu nziza yabereyemo inama, ifite intebe nziza cyane zegamirwa, abantu bose barakurikiye, bisa nk'aho umuntu uri kubakoresha inama ari imbere yabo, afite ibyo ari kubabwira, na bo bateze amatwi.

Ahabereye inama y'itabiriwe n'abantu batandukanye buri muntu wese afite ahari kwandika ibyavugiwe mu nama ndetse abadafite amakayi bafite n'imashini bigaragara ko buri wese afite aho ari gushyira ibyavuzwe, banakurikiye cyane imbere yabo hari imitobe y'imbuto ndetse n'amazi.

Inzu nziza cyane yabereyemo inama y'abantu bambaye amakoti meza cyane ndetse n'abagore. Buri muntu wese afite amazi n'umutobe ukozwe mu mbuto kandi bose bitegereje imbere nk'aho hari umuntu uri kubaganiriza.

Ahantu habereye inama, ubona ko yitabiriwe n'abantu benshi cyane, kandi batandukanye, harimo abagabo n'abagore, ndetse n'umuntu umwe ubona ushinzwe umutekano uzwi nk'umupolisi, imbere yabo hari umuntu w'umugore ubona ko ariwe uri kubaganiriza akoresheje igikoresho gisakaza amajwi kizwi nka mikoro.

Inzu nziza ubona ko itakishije ibitambaro bifite amabara y'ubururu n'umuhondo, harimo abantu benshi kandi ubona ko bitabiriye inama bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ndetse bafite n'ibyo kwandikaho, hari n'umuntu kandi ubona ko ahagaze bisa nk'aho ariwe ufite ibyo ari kubaganirizaho, bose bamuteze amaso bari kumwitegereza ngo bumve.

Ahantu hari abantu benshi cyane ubona bitabiriye inama harimo ibyiciro bitandukanye by'abantu, higanjemo abagabo n'abagore ndetse arimo n'abanyamahanga ubona bose bakurikiye bisa nk'aho hari umuntu uri kubaganiriza imbere hari kandi igikoresho cyifashishwa mu gufata amajwi n'amashusho kizwi nka camera giteretse hagati muri bo.

Inzu nziza cyane ubona ko irimo amatara atandukanye hari abantu benshi cyane bigaragara ko habereye inama yabahuje bitegereje imbere cyane bisa nkaho bari kumva umuntu uri kubabwira ndetse n'ibyo ababwira ari imbere yabo.

Inzu nziza cyane iteye amabara y'umweru, irimo ibyapa byinshi bigaragaza ibintu bihakorerwa; ndetse yabereyemo amahugurwa yitabiriwe n'abantu batandukanye. Bigaragara ko hari umuntu bakurikiye ufite ibyo ari kubabwira.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, ubona ko bose bafite mudasobwa bari gukoresha, bigaragara ko hari abantu bari imbere yabo bari kugira ibyo babasobanurira, nabo babitegereza cyane ndetse n'ibyo bari kuvuga bagerageza kubishyira mu mashini.

Ahantu hisanzuye ubona hicaye abaturage benshi batandukanye ndetse n'abandi bantu bari imbere yabo ubona ko aribo bari kubakoresha inama ndetse no kumva ibibazo bafite.

Inama yabereye ahantu heza hari intebe nziza yitabiriwe n'abantu benshi cyane batandukanye, bigaragara ko kandi buri wese afite ahari kwandika ibi biri kuvugirwa mu nama, buri wese arakurikiye imbere nk'aho hari umuntu uri kuvugira imbere yabo.

Ahantu heza cyane habereye inama hicaye abantu batandukanye, abicaye imbere buri muntu wese afite isakazamajwi imbere ye ndetse n'icyo ari kwandikaho afite kandi amazi n'umutobe ukoze mu mbuto, inyuma yabo hari igikoresho cyifashishwa mu gufata amajwi n'amashusho kizwi nka kamera.

Ahabereye inama bigaragara ko umwe yafashe umwanya, hari icyo ari kubabwira akoresheje indangururamajwi, mu gihe abandi, na bo bamukurikiye bafite n'aho bari kwandika. Imbere yabo hari amazi ndetse n'imitobe ikozwe mu mbuto, bikorerwa mu ruganda rw'Inyange.

Abantu bari ahantu hamwe bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso, bigaragara ko barangije igikorwa kimwe gishobora kuba ari inama cyangwa amahugurwa, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso harimo abakozi baho ndetse n'abandi bantu batandukanye.

Nziza yabereyemo inama bigaragara ko yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye. Hakaba hari umuntu wicaye ku ruhande rwe wenyine wambaye umupira mwiza w'ubururu bigaragara ko ashobora kuba afite ibyo ahagarariye muri iyo nama, ndetse n' abandi ubona bakurikiye imbere yabo hari amazi ubona ko rwose bitabiriye.

Ahantu heza hateguye neza mu buryo bumwe, hari amatara menshi hari tapi y'ubururu, ndetse n'ibyapa byinshi bigaragaza ibintu bibera aho hantu, ndetse n'abantu bitabiriye iyo nama.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, hari abantu babiri bicaye imbere y'abandi, b'abagabo, ubona ko na bo bafite abandi bakurikiye. Inyuma yabo hari abandi bicaye, bigaragara ko na bo bakurikiye inama, imbere yabo hateretse amazi.

Inzu nziza yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo abanyamahanga benshi ndetse n'abanyarwanda. Bigaragara ko hari abantu batatu mbere, bafite ibyo bari kubabwira n'abandi nabo babakurikiye.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye. Imbere yabo hateretse imazi, ndetse hari n'abafite mudasobwa, n'abandi bafite impapuro ubona ko ari izo kwandikaho. Umwe muri bo yahagurutse, bisa nk'aho afite icyo ari kubabwira, abandi na bo bamuteze amatwi.

Ahabereye inama ubona yitabiriwe nabantu benshi cyane bambaye ibibaranga mu ijosi bizwi nka baji ubona bose bakurikiye ibyo bari kubwirwa kandi ko bahanze amaso abantu bari imbere yabo bakurikirana ibigwirwa abantu.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye ubona ko harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari impapuro bisa nkaho ariho bari kwifashisha bandika ibyo bumvise ndetse batereta n'ibirahure bisa nkaho harimo icyo bari kunywa kandi bose bakurikira imbere bisa nkaho hari umuntu ufite ikintu ari kubabwira uhagaze imbere yabo.

Ahabereye inama ubona yitabiriwe n'abantu batandukanye, imbere gato hari umumama ubona ko asenga mu idini rya isiramu bitewe n'imyambaro yambaye, wegeranye n'undi mumama na wambaye amadarubindi ndetse n'agashati karimo amabara y'umweru n'umukara n'abandi bantu bari inyuma yabo ubona ko bose bagerageje gukurikira ibyo bari kubwirwa.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, bigaragara ko hari abahuriye ku meza ari benshi, bisa nk'aho bari gukorera mu dukipe, imbere yabo hari imashini bari gukoresha ndetse n'amazi bari kwifashisha mu kunywa.

Ahantu heza ubona habereye inama yahuje abantu benshi cyane, bishoboka ko ari inzu iberamo inama ya guverinoma kuko hari icyapa kibiranga mu ijambo rizwi nka arajibi, hari kandi n'umuntu uhagaze ubona ko afite ibintu ari kubabwira, iyo nama kandi irimo n'abashinzwe umutekano.

Umunara w'itumanaho muremure cyane, wiganjemo amabara y'icyatsi n'ibara ry'umweru, iruhande rwawo hari ibiti ndetse n'ibicu byiganje.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, cyerekana ko uyu munsi ari umunsi wa nyuma wo kumenyekanisha isabwa ry'icyangombwa kikwemerera gucuruza, ndetse n'aho waca kugira ngo ubone amakuru arambuye y'ibyo bintu.

Umunara w'itumanaho muremure cyane uri mu mabara y'umutuku n'umweru ubona ko uri ahantu mu giturage hari imyaka myinshi ndetse n'ubuhinzi buhakorerwa butandukanye ndetse n'ibiti bikikije uwo munara.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu yandikishijweho inyuguti ziri mu mabara y'umweru, mu magambo y' impine bisobanura, ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda ndetse no mu magambo arambuye bisobanura, ikigo cy'igihugu n'ubundi gishinzwe uburezi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Inzu ubona ko yicayemo abanyeshuri benshi batandukanye ubona ko bari kwiga bambaye impuzangano y'umweru ndetse na kake imbere yabo bafite imashini bigaragaza ko bafite umwarimu ubari imbere uri kugira ibyo abigisha.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda cyerekana ko uyu ari umunsi wa nyuma wo kumenyekanisha no kwishyura umusoro kugira ngo ube wemerewe gutangira gucuruza.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro; riri kumenyesha abantu ko ari umunsi wa nyuma wo kumenyekanisha umusoro ku mitungo itimukanwa no kubereka itariki ya nyuma ko ari mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Umunara muremure ubona uri mu mabara y'umweru n'umutuku uri ahakikijwe na koroturi y'ibyuma byinshi ndetse kandi uwo munara inyuma yawo hari inzu nziza kandi nibiti byinshi.

Itangazo rya rura ribwira abantu kwirinda icyorezo cya korona virusi kizwi nka kovidi cumi n'icyenda ishishikariza abantu kwishyura amafaranga kuri telefone gukaraba intoki, gushyira intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa ndetse no kwirinda gusuhuzanya no guhoberana.

Umuntu w'umugabo wambaye ijire y'icyatsi ndetse n'ingofero, ubona ko ari kuri mudasobwa hari ibyo ari kureba ariko bigaragara ko ari amashusho aruhura mu mutwe, inyuma ye hari umukobwa ubona wambaye utuntu mu matwi tuzwi nka ekuteri nawe arangariye mu mashini.

Umunara munini cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umweru n'umutuku hirya yaho gato hari undi munara ubona ko ari mutoya ugereranyije n'uwa mbere inyuma hari ibicu byiganje.

Ibyapa cya Minisiteri y’abakozi ba leta n’umurimo kimenyesha abantu uko itariki ya mbere Gicurasi, bibiri na makumyabiri na kabiri, bari kwizihiza uwo munsi, ndetse n’abantu ubona bari gukora ibintu bitandukanye. Ndetse n’undi muntu ubona ari umwarimu ufite ikayi, n’undi muntu bahagararanye, bisobanuye ko buri wese afite umurimo we umuranga.

Umuhanda mwiza ubona wa mapove inyuma yaho hari ahantu ubona ko hatangirwa serivisi nyinshi zitandukanye hari akazu gato ubona gacururizwamo inkweto ndetse hatangirwa na serivisi za beka, inyuma yako hahacururizwa amata. Ndetse hirya gato hari n'icyapa ubona ko ari icyicapiro batanga serivisi z'irembo.

Icyapa cyerekana umurongo ngenderwaho mu kumenyekanisha umusoro wa bibiri na makumyabiri na gatatu(2023) gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Itangazo rya minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu rwanda yifuriza abakozi bose umunsi mwiza w'umukozi, ndetse n'amafoto y'abantu ubona ko bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Igipangu cyiza cyubatse mu buryo bugezweho, giteye amarangi y'icyatsi, kiriho icyapa cyerekana ko batanga serivisi z'irembo ndetse banafotora amafoto magufi ndetse na serivisi z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Abantu batandukanye ubona abari mu kazi bafite ibyo bahugiyemo bari gukora bose, bafite telefone ubona zishobora kuba ari ubwoko bumwe, imbere yabo bahafite imashini zizwi nka mudasobwa zifashishwa mu gushaka amakuru ndetse no gukora akazi mu buryo bw'ikoranabuhanga, imbere yabo kandi hari n'amazi bafite bashobora kuba bari kumwe.

Ubutumwa bugufi, bwerekana uruhushya rwo kwemererwa kujya mu kindi gihugu, buzwi nka pasiporo, ndetse n'uburyo wasaba viza ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bakabasha kuguha viza y'aho ugiye.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro riburira abantu kugaragaza imisoro batamenyekanishije ribabwira ko bazakurirwaho amande n'inyungu z'ubukererwe ndetse n'itariki ntarengwa ko ari makumyabiri neshatu z'ukwa cumi bibiri na makumya na kane.

Umunara muremure w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku n'umweru iruhande rwawo hari ibirango bya sosiyete y'itumanaho ya Tigo ndetse n'abantu benshi bambaye impuzangano ya Tigo ndetse n'imodoka ziri iruhande rwabo.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, gishimira buri muntu wese uruhare agira mu kubaka ndetse no kuzamura igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingendo kizwi nka rura kimenyesha abantu ko bitemewe kwishyura mu ntoki igihegiyeye gukora urugendo, ahubwo ari ukwishyura ukoresheje ikarita.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kimenyesha abantu ko ari umunsi wa nyuma, itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane wo kumenyekanisha umusoro kugira ngo ukurirweho inyungu, amande y'ubukererwe.

Icyapa kiri cy'umweru gifite amabara y'ubururu cyerekana cyangwa kimenyesha abantu ko hari inzira ya murandasi ariko idakoresha umugozi nkuko bisanzwe.

Icyapa gihugura abacuruzi uburyo bwo gutanga inyemezabwishyu ku byo bagurishije ndetse no gukoresha uburyo bw'ikorabuhanga utanga iyo nyemezabwishyu ukoresheje terefone cyangwa mudasobwa zabugenewe.

Umunara muremure cyane w'itumanaho ubona uri mu mabara y'umweru n'umutuku, iruhande rwawo haca urusinga rwambukiranya ubona ko ruva ku ipoto rujya ku yindi ndetse inyuma yarwo hari n'ibiti bitandukanye.

Abantu benshi ubona ko bafite ibyo bahugiyemo imbere yabo hari mudasobwa buri wese afite ibyo ari gukora hari kandi n'umuntu usa nk'ubahagarariye bigaragara ko hari ibyo aribererekera, inyuma yabo hari akabati karimo ibitabo hari n'abantu babiri bahagaze imbere y'ako kabati bisa nk'aho hari icyo bari gushakamo.

Icyapa cyerekana uburyo sosiyete itwara abantu mu kirere izwi nka Rwandeya igeza imitwaro ahantu hatandukanye: muri Afurika, Uburayi, ndetse n'Ububurasirazuba bwo hagati, itwara imizigo n'uburyo iyihageza.

Umunara muremure uri mu mabara y'umweru n'umutuku aho uteye hakikijwe ibyuma ndetse nyuma yaho gato hari utuzu ubona dutoya natwo dushobora kuba twifashishwa aho hantu, inyuma kandi hari n'abantu batandukanye inyuma yaho gato naho hari ishyamba.

Umunara muremure w'amabara y'umutuku n'umweru, ubona ukikijwe n'igipangu cyiza cyubatse mu buryo bugezweho, inyuma yawo haca urusinga ubona rw'amashanyarazi ruva ku ipoto rujya ku yindi cyangwa ruhererekanya umuriro ku baturage, inyuma y'insinga hari ibiti.

Icyapa cy'umweru gifite amagambo y'imine yanditse mu mabara y'ubururu bisobanura ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda ndetse n'amabara y'ibendera ry'igihugu ndetse n'amagambo maremare asobanura ikigo cy'uburezi mu Rwanda.

Umunara muremure cyane w itumanaho ubona uri mu mabara yumweru n' umutuku, inyuma yawo hari akantu ubona ko ari akazu kabikwamo ibikoresho bifashisha ndetse n'iyandi mazu ari inyuma neza.

Amapoto ariho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse anariho amatara amurikira abagenzi ku muhanda iyopoto kandi iriho n'icyapa cyamamariza sosiyete y'itumanaho izwi nka eyateri inyuma yaho hari ibiti byinshi ndetse n'amazu.

Ipoto rirerire ry'icyuma ubona ririho ibikoresho byagenewe gufata amashusho bizwi nka kamera inyuma yayo hari umunara w'itumanaho nawo muremure cyane, kandi hari n'amazu imbere y'uwo munara ubona ko akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Umukobwa ubona wuriye ipoto wambaye ibikoresho byose byabugenewe mu gukora amashanyarazi bigaragara ko hari ikintu ari gukora ku muririro w'amashanyarazi kubera ko iryo poto yuriye rifite insinga zitandukanye zijyana umuriro ahantu hatandukanye.

Inzu ubona ko ari inzu y'umuturage ifite insinga nyinshi zihazana umuriro w'amashanyarazi ndetse n'urusimbwa rumwe rwinjira mu gikoresho cyifashishwa mu kugura umuriro kizwi nka Kashi pawa( cash power )ndetse n'insinga nyinshi ubona ziri guturuka hirya yayo bisa nkaho hari ipoto iri gutanga uwo muriro.

Ipoto rirerire ry'icyuma, ubona ririho insinga nyinshi zitanga umuriro mu bice bitandukanye kandi mu ntera ndende, riri hagati mu ndabo ndetse n'irindi poto riri imbere yaryo rivana umuriro aho ngaho ndetse n'umuntu uhagaze imbere y'iryo poto.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri gucamo insinga bigaragara ko byifashishwa mu gutwara amashanyarazi ajya ahantu kure, ndetse n'ibicu byiganje biri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Amafoto menshi y'ibyuma ubona ko ahererekanya umuriro ujya mu ntera ndende afite insinga nyinshi inyuma yayo hari ibiti byinshi.

Umuntu wuriye ifoto ry'amashanyarazi akoresheje urwego rwabigenewe, yambaye imyenda bisa nk'aho ari imyambaro y'abakora amashanyarazi, hari kandi urusinga afashe bisa nk'aho ari rwo rufite ikibazo ari gukoraho.

Ipoto ndende y'icyuma y'amashanyarazi yifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi ujya mu ntera ndende, iri ahantu ubona ko hari ibyatsi byinshi kandi ifite n'insinga nyinshi zitanga umuriro mu byerekezo bitandukanye.

Ipoto ry'icyuma ubona rirerire ririho insinga nyinshi cyane zitanga umuriro mu byerekezo bya kure kandi bitandukanye riri hagati mu busitani bukikijwe n'uruzitiro rw'ibiti ndetse n'indabyo...

Umuturirwa utaruzura neza, ukikijwe n'amabati ku ruhande awurinda kuba imvura yahasenya, i ruhande rwayo hari ipoto ubona ifite insinga nyinshi zitanga umuriro ahantu hatandukanye, ndetse n'igiti gifatanye n'iryo poto.

Umunara w'itumanaho muremure cyane uri mu mabara y'umweru n'umutuku ukikijwe kandi n'ibyuma byinshi bibuzitiye bisa nkaho ari uburyo bwo kuwurinda inyuma yawo hari nibiti byinshi bigaragara ko biwukikije.

Inzu yubatse neza mu buryo bugezweho, inyuma yayo hari umunara ukoreshwa mu buryo bwo gucunga umutekano, iyo nzu kandi hariho icyapa cyerekana ubwishingizi bwa buritamu ndetse n'ikindi cyapa cyerekana ahatangirwa serivisi z'irembo.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo amapoto menshi atandukanye ndetse n'ipoto ubona ko ari ryo rifite insinga nyinshi zijyana umuriro mu byerekezo bitandukanye kandi bya kure, inyuma yaryo hari ibinyabiziga bya moto, imodoka y'ikamyo, ndetse inyuma hari umuturirwa ubona ko ari mwiza cyane ukikijwe n'ibiti.

Inzu nziza yubatse ku buryo bwiza ifite imiryango myinshi bigaragara ko buri muryango ufite ikihakorerwa, ikikijwe n'ubusitani bwiza buteyemo indabo nziza, hari kandi n'ahantu hagenewe kunyurwa n'abanyamaguru, hasakaje amabati hakikijwe n'ibyuma, hari kandi n'abantu bari guca muri iyo nzira.

Inzu nziza ifite amabara y'umuhondo ndetse n'inzugi z'umweru, bigaragara ko ari kubitaro, hari kandi abarwayi ubona ko bafite ibipapuro, hari uwicaye ndetse n'undi uhagaze, hari n'undi kandi ugiye kwinjira mu muryango bigaragara ko ari aho basuzumira, hari n'undi ubona ko afite ubumuga wicaye mu kagare.

Ahantu umubona hisanzuye hari igipangu kizengurutswe n'ibyuma ubona ko haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, bisa nkaho hari serivisi ihatangirwa. Aho ngaho hakaba ari ahantu hagenewe guparikwa ibinyabiziga byahaje.

Ni inzu nziza ubona yubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye ndetse n'imiryango myinshi yerekana ko buri muryango ufite ikihakorerwa, imbere yayo hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Akayira kagenewe kunyurwamo kubatse ku buryo bugezweho, hari gucamo abantu harimo n'umuntu umwe wambaye imyenda y'impuzangano y'ubururu bigaragara ko akora ahangaha ndetse n'andi mazu atangirwamo serivisi imbere yayo haparitse imodoka zizwi nk'imbangukiragutabara zifashishwa mu kugeza abarwaye kwa muganga mu buryo bwihuse.

Ibitaro bikuru bya Masaka, imbere yabyo hari abantu biganjemo abanyamahanga basuye ibyo bitaro ndetse n'imbere yabo hari abanyarwanda bigaraga ko bakora aho bari kuberekera. Nyuma yaho gato hari abambaye impuzankano bigaragara ko bakora amasuku kuri ibyo bitaro.

Imodoka z'amabara y'umweru n'umutuku ubona ko ziparitse ahantu habugenewe hari amabuye, zizwi nk'imbangukiragutabara zifashishwa mu kugeza abarwayi barembye cyane ku ibitaro.

Ahantu hisanzuye ubona hubakishijwe amapave, hateretse igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro kiri mu mabara y'umutuku, hirya yaho hari ahantu ubona ko hasa n'ahatangirwa serivise hari imiryango myinshi itandukanye ndetse imbere y'ayo mazu hari n'ubusitani bwiza buteyemo pasiparumu.

Imodoka ifite amabara y'umutuku, ubururu, n'umweru izwi nk'imbangukiragutabara, ubona iparitse ahantu hasakaye bisa nkaho ari ukuyirinda izuba, yifashishwa mu kujyana abarwayi barembye ku bitaro.

Umugore wambaye impuzangano ndetse n'ibikoresho bigaragaza ko ari umuganga, ndetse n'umusore wicaye wambaye ishati y'umukara bisa nkaho uwo mumama ari kumutera urukingo, bose bambaye udupfukamunwa bigaragaza ko ashobora kuba ari kumukingira icyorezo cya koronavirusi.

Inzu nziza ariko bigaragara ko hari serivisi zihatangirwa hari kandi intebe nziza zo kwicaramo bisa nk'aho ari abantu bicara bategereje, hari kandi n'ahari ubwiherero ku bagabo abagore ndetse n'abafite ubumuga hakaba kandi n'indi miryango itandukanye ikoreramo ibindi bintu.

Ahantu hisanzuye haparitse imodoka zizwi nka ambilance zifashishwa mu gutwara abarwayi barembye zibajyana ku bitaro bikuru ndetse n'inzu ubona ko ikoreramo izo serivisi.

Inyubako nziza ubona yubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi hari intebe kandi zagenewe kwicarwaho n'abantu baje aho ngaho hari kandi n'akagare ubona k'umuntu ufite ubumuga bigaragara ko hajya abantu bose batandukanye bitewe n 'uhashaka iyo serivisi.

Imihanda ibiri ya kaburimbo hagati aho ahorira, hari ubusitani burimo umukindo, hakurya y'umuhanda hari icyapa cyerekana ko ahantu hemerewe guparikwa ibinyabiziga, ndetse n'inzu ubona ko ari ibitaro kuko hariho ahantu handitseho materineti, bisobanura aho babyarira ndetse n'ibinyabiziga biparitse.

Inama y'abaturage bigaragara ko imbere hari abantu batatu bambaye amafurari yanditseho komite, bigaragara ko aribo bahagarariye abandi akaba n'umuntu wahagurutse bisa nk nkaho ari gutanga ikibazo cye abakibwira nabo ari abo bicaye batatu mbere bari kubyumva bakabyandika.

Inzu ngari cyane kandi irimo ibikoresho bihagije ubona ko ari urukiko ruburanisha abakoze ibyaha, hakaba hari abantu bahagaze batatu imbere ubona ko ari uwakoze ibyaha, umuburanira ndetse n'umushinja. Ruguru kandi hari umurongo w'abantu benshi, ubona ko ari abacamanza bategerejwe kuza kuvugwa umwanzuro.

Umuhanda ubona ko uhagazemo abagororwa benshi batandukanye imbere yabo hari abantu bicaye ubona ari umugabo n'umugore bisa nkaho aribo bafite ikintu bagiye kubabwira, inyuma yabo hari guturuka imodoka itwara abagenzi mu buryo bwigenga bigaragara ko nayo ije aho hantu.

Icyapa kirekire gifashwe n'ibyuma cyandikishijwe inyuguti zirimu ibara ry'umukara gisobanura ko ari igororero rya gicumbi. Winjiyemo imbere gato hari icyapa kivuga ko aho hantu hahagararwa, ukomeje imbere hari inzu zitandukanye. Iryo gororero kandi rikikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

Abagabo batatu ubona bicaye ku ntebe bisa nkaho ari abagororwa bategereje kumva urubanza; harimo babiri ubona barangaye bari kurebana ndetse n'undi umwe ubona ukurikiye.

Abantu babiri b'abagabo harimo umwe ubona ko ashinzwe umutekano afite n'igikoresho yifashisha kizwi nk'imbunda, hari n'undi mugabo kandi begeranye ubona ko hari icyaha ari kumushinja kuko yamwambitse igikoresho cyifashishwa mu gufata umunyabyaha kizwi nk'amapingu, uwo mugabo kandi wakoze icyaha afite n'icupa ry'amazi.

Abagororwa benshi basa nkaho bazamuye ikiganza bafite ibyo bari kwemera, inyuma yabo hari amatenti ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo n'icyatsi bigaragaza ikirango cya efuperi.

Ingingo nyinshi zitandukanye z'itegeko nshinga zerekana ibimenyetso byemewe kuzana mu rukiko, bivuga ko nta muntu wemerewe kumva amabwire cyangwa ibimenyetso biziguye.

Inzu nziza irimo intebe nziza zicawemo abagororwa benshi bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko ari mu rukiko baje kuburanishwa. Inyuma yabo hari umuntu ubona ko ari umucungagereza waje ubaherekeje.

Inteko y'abaturage bari kumva ikibazo cy'abandi baturage. Hari abaturage benshi bicaye hasi mu rucaca, hari n'abandi bigaragara ko yaba ari komite yatowe, bicaye ku ntebe ndetse bafite n'ameza imbere yabo, hari n'umuturage usa nk'aho hari icyo ari kuvuga.

Inyandiko ivuga ko inteko ishinga amategeko yatoye cyangwa yashyizeho itegeko rishya, igihe ryatorewe ndetse n'icyo rivuga, n'ibihano biteganywa ku wakwica iryo tegeko.

Ahantu hisanzuye hicaye abantu benshi, imbere yabo hicaye abagabo batatu babiri muri bo bambaye impuzangano y'umweru n'umukara hagati muri bo hicaye umugororwa wambaye impuzangano ndetse bose bambaye udupfukamunwa bafite ibyo bari gusoma bisa nkaho aba babiri bari buburanire uyu mugororwa.

Inyandiko nyinshi zitandukanye zerekana ibihano, itegeko nshinga riteganya ku wagerageje kunyereza umutungo kamere w'igihugu ndetse ko ryanasohowe kuri makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani.

Umuhanda wa kaburimbo ubona urimo imodoka ebyiri ziri kujya mu cyerekezo gitandukanye imbere yazo hari ushinzwe umutekano uzwi nka' polisi uri guhagarika imodoka y'umweru ndetse n'icyapa kivuga ko nta muntu wemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu ari kugenda, uwo muhanda kandi hariho amapoto ndetse ukikijwe n'inyubako ndetse n'ibiti.

Ahantu hisanzuye ubona hateretse ibikoresho bizwi nka kizimyamoto byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro yateye ahantu bifite amabara y'umutuku n'icyatsi ndetse n'inyuguti zanditse mu mabara y'umweru.

Igikoresho kizwi nka kizimyamoto cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, kiri mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'agahondo n'umukara muke, inyuma yacyo hari igikarito bigaragara ko gishobora kuba ariho cyari kibitse.

Ahantu ubona hatangirwa serivisi ndetse hashobora kuba haza n'abantu benshi hari ibikoresho bizwi nka kizimyamowoto bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro biri mu mabara y'umutuku n'umukara ndetse n'ikindi kiri mu mabara y'umweru n'umutuku imbere yayo hateretse akantu kagenewe kujugunyamo imyanda.

Muri kaburimbo, umupolisi wambaye impuzankano y'akazi ari guhagarika imwe mu modoka ziri muri uwo muhanda. Umupolisi arambuye ukuboko kw'ibumoso, ari kwereka umushoferi w'imodoka aho aparika.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ubona kiri mu mabara y'umutuku n'umukara hariho hometseho ibipapuro ndetse giteretse ahantu heza.

Inzu ndende nziza y'umuturirwa, imbere yayo hari ibiti ndetse n'imodoka ziparitse ahagenewe guparikwa ibinyabiziga. Harimo kandi n'imodoka y'abashinzwe umutekano, ndetse n'umuntu bigaragara ko ari kwerekeza kuri uwo muturirwa.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzangano y'ibara rya kaki n'umweru bahagararanye n'ushinzwe umutekano uzwi nka polisi, ari kuberekera uburyo bwo kuzimya umuriro igihe baba batewe n'inkongi ndetse n'umuriro uri kwaka hasi hariho gaze.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga biri kugenda ndetse n'umupolisi uzwi nk'ushinzwe umutekano wo mu muhanda uhagaze imbere y'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwigenga.

Ahantu hisanzuye bigaragara ko akorerwa ibizamini by'uruhushya rwaburundu rwo gutwara ibinyabiziga ndetse n'ibinyabiziga ubona biri kuyoborwa n'umupolisi uri gukoresha icyo kizamini ndetse n'amakoni ari gukoreshwa ayobora ibyo binyabiziga.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, imbere y'ibyo binyabiziga hari inzu ubona ko zikorerwamo ubucuruzi ndetse na serivisi zitandukanye, hari icyapa kandi kivuga ko wasura igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ahantu hagaragara nkaho ari mu muhanda uri gucamo abantu benshi hakaba hari n'umugabo wambaye umupira w'ubururu imbere ye hateretse igikapu gifite amabara y'umweru n'umutuku ndetse na kizimyamwoto ifite amabara y'umutuku.

Umugore mwiza ubyibushye, ubona uhagaze mu muryango w'inzu, afashe ku rutugu umwana umwe mutoya n'undi ubona ko ari mukuru, abo bana bose bambaye imyenda ubona ifite ibara rimwe kandi iteye kimwe.

Nyir'icyubahiro perezida Paul Kagame aho yarari kwiyamamariza mu gihe cy'amatora, hari inyuma ye kandi abantu benshi cyane bigaragara ko baje kumva imigabo n'imigambi ya perezida Paul Kagame.

Umukandida Frank Habineza ubarizwa mu ishyaka rizwi nka girini pati, aho yari yagiye kwiyamamariza ahantu yari yitabiriwe n'abaturage ndetse hanagaragara aho yari ari guhobera abana batoya harimo n'abafite amadarapo yo kumutura.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame amaze gutora ari gushyira urupapuro rw'itora aha bugenewe inyuma ye hari abantu abona ko ari bo bakuriye icyumba cy'itora bamufashije mu gutora.

Nyakubahwa perezida paul kagame umuyobozi w'igihugu cy'u rwanda yambaye ikote ryiza cyane ishati nziza ndetse na karuvati, urabona ko yishimye cyane rwose bisa nkaho hari ahantu ari kugenda bamwishimiye nawe yabishimiye.

Perezida paul kagame ari imbere y'abantu ari kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda inyuma ye hari abantu benshi cyane bafite utudarapo ndetse n'abambaye ibirango bya efuperi bavuga ko bashaka kumuha amajwi.

Inama yabereye mu nteko nshingamategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Imbere y'abantu hari umuntu umwe bisa nk'aho ari kuvugira mu ndangururamajwi, kugira ngo bose babashe kumvikana. Buri wese kandi afite aho ari kwandika bisa nk'aho bakurikiye cyane.

Ahantu hisanzuye bigaragara ko hagiye ishyaka rya Efuperi rifite indangagaciro ivuga ngo umuturage ku isonga ndetse n'abaturage benshi cyane bambaye ibirango bya Efuperi ndetse n'amadarapo yamamaza Efuperi,

Umukandida w'ishyaka rizwi nka girini pati wiyamamarizaga ahantu ari hejuru y'imodoka, bigaragara ko ari gusuhuza abantu asanze, ndetse n'abaturage benshi baje kumva imigabo n'imigambi, bafite ifoto imuranga ndetse n'amadarapo y'ishyaka rya Girini pati.

Abantu bicaye ubona hari n'undi muntu imbere ufite ibintu ari kubabwira uri gukoresha igikoresho kirangurura amajwi kizwi nka mikoro, inyuma ye hari inzu ubona yubatse ku buryo bugezweho bigaragara ko itangirwamo serivisi z'ibigo by'imari bitandukanye ndetse na sosiyete y'itumanaho izwi nka emutiyeni.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi cyane imbere yabo hari perezida Paul Kagame ndetse na madamu we Jeannette Kagame barishimye cyane bisa nk'aho ibintu biri kuvugirwa aho hantu bishimishije buri muntu wese uri aho hantu. Inyuma yaho hari abantu bakurikiye cyane nabo bishimye.

Abantu bane, abagabo babiri bambaye amakoti ndetse n'abagore babiri bambaye imikenyero. Imbere yabo hari amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, bamanitse amaboko, bari kurahira, bafite ibintu bari kurahirira.

Hari benshi cyane ubona bose bafite udupapuro dusa nk'aho ari impapuro z'ishimwe zizwi nka seritifika, bambaye impuzangano y'amabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere yabo hari abantu bahicaye bisa nkaho babakuriye higanjemo n'abashinzwe umutekano bigaragara ko aribo batanze ayo mashimwe.

Icyumba cy'itora kirimo umukandinda wigengaga ku mwanya wa perezida witwa Mpayimana Filipe, ari gushyira urupapuro rw'itora mu ahabugenewe inyuma ye hari uhagarariye icyumba cy'itora.

Frank Habineza uzwi nk'umukandida wiyamamarizaga kuba perezida mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari kwiyamamariza imbere y'abaturage ndetse afite n'isa n'igikoresho kizwi nka mikoro gisakaza amajwi, bigaragara ko ari kwiyamamariza imbere y'abantu ababwira imigabo n'imigambi afite.

Imodoka nini cyane ubona yagenewe gutwara ibinyabiziga izwi nka makuzungu, hari kandi ikiraro igiye gucamo, igiye guhuriramo n'ibindi binyabiziga biri kuva imbere, icyo kiraro kandi gifite n'undi muhanda hejuru.

Imodoka iba ifite amabara y'umweru ubona ko ifite umuzigo itwaye hejuru yayo hari shitingi ndetse biragaragara ko itwaye amatafari yo kubakisha ,hakurya yayo hari ahandi hantu ubona heza haparitse ibinyabiziga ndetse mu rundi ruhande hari n'ikiraro ubona gica hejuru cyubakishije sima munsi yacyo haca amazi.

Umuhanda wa kaburimbo ubona urimo ibinyabiziga bibiri n'ikinyamitende. Harimo imodoka ifite amabara y'umweru itwara abagenzi mu buryo bwigenga, ndetse na moto itwaye umugenzi, ndetse n'igare ubona ko ritwaye umugenzi bose bari kugenda bajya aho bagiye. hakikijwe kandi n'ibiti inyuma y'ibiti hari inzu zirimo n'abantu.

Umuhanda muremure wa kaburimbo, wubatswe kuburyo bugezweho ndetse n'umumotari ubu uri kuri moto ye wicaye bisa nk'aho ari kugenda muri uwo muhanda.

Ibinyabiziga biparitse ku murongo umwe by'amapine atatu bizwi nk'uturifani, byifashishwa mu gutwara imyanda ndetse n'imizigo imbere yabyo hari icyapa cyerekana ko Kigali igomba kuba isukuye ndetse n'abantu bahagaze imbere y'ibyo binyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo ubona ko urimo imodoka ndende cyane ifite amabara y'umweru ndetse n'ibyuma biri hejuru yayo bisa nkaho biyisakaye by'ubururu, n'imbere kandi urabona ko itwaye inka nyinshi zitandukanyije amabara isa nkaho hari ahantu izijyanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse nindi itwara abagenzi mu buryo bwigenga, hirya yaho gato hari akayira kagenewe abanyamaguru ndetse kegeranye n'ikiraro kinini gicamo amazi uwo muhanda kandi ukikijwe n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo hagati mu muhanda harimo imodoka nini cyane iri mabara y'umutuku izwi ku izina rya howo, iruhande rw'umuhanda hari ikiraro ubona gicamo amazi mu rundi ruhande harimo ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka nini cyane iri mu muhanda hagati, ifite amabara y'umutuku. Mu muhanda, mu ruhande rumwe rw'umuhanda hateye ibiti byinshi ubona bikikije umuhanda, mu rundi ruhande hari ikiraro ubona ko ari kirekire, gicamo amazi.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza ubona ko urimo ibinyabiziga bitandukanye, hari kandi n'akalifani ubona gafite umuntu ugatwaye kagenewe gutwara imizigo ndetse n'akayira kagenewe abanyamaguru ndetse n'ikiraro hejuru yacyo hahagaze umugore ufite indobo irimo ibisheke.

Imodoka nziza y'amabara y'umweru n'umuhondo, iri mu muhanda wa kaburimbo, urimo n'ibindi binyabiziga bya moto zitwaye abamama ndetse n'ibiti bikikije uwo muhanda ndetse n'umugore uhagaze hafi y'ibyo biti, bisa nk'aho hari ibyo ategereje.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, hagati mu muhanda harimo imodoka ifite amabara y'ubururu, isa nk'aho itwaye imizigo, izwi ku bwoko bw'ikamyo, uruhande rumwe rw'umuhanda hari ikiraro ndetse n'umuyoboro w'amazi, hakurya mu rundi ruhande hariyo ibiti.

Umuhanda muremure wa kaburimbo ubona urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, higanjemo amamoto atwaye abantu ndetse n'imodoka, inyuma y'ibyo binyabiziga hari inzu ubona ko zitangirwamo serivisi zitandukanye ndetse n'ubucuruzi butandukanye, harimo n'ahacururizwa imiti.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite amabara arimo icyatsi n'umweru izwi ku izina rya ritiko, iri mu muhanda, iri kugenda inyuma yayo hari ibindi binyabiziga birimo amamoto, hari kandi n'akayira kagenewe abanyamaguru bakikijwe n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ubona urimo imodoka nini cyane itwara abagenzi bifashishije uburyo bw'ikarita buzwi nka kipiyesi ndetse n'umunyegare utwaye umugenzi; inyuma y'umuhanda gato hari ikiraro ubona ko gicamo amazi ndetse hakurya y'umuhanda gato hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye imbere hari imodoka nini cyane iri mu mabara y'umweru ubona itwara ibikomoka kuri peteroli, inyuma yayo hari moto nyinshi nazo ziri kujya mu cyerekezo kimwe n'imodoka.

Isangano ry'imihanda ubona ijya mu byerekezo bitandukanye ndetse n'ikinyabiziga kizwi nka moto kiri gukata kijya mu kindi cyerekezo ndetse n'amazu akikije uwo muhanda ubona ari amazu matoya asa nk'akorerwamo ubucuruzi butoya.

Imodoka ndende nini iri hagati mu muhanda, isa nk'ipakiye umuzigo mwinshi utwikiriwe na shitingi iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibindi binyabiziga biri imbere y'iyo modoka.

Umuhanda mwiza muremure wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'amapine atatu kizwi nkaka rifani, ubona gifite imizigo mike gihetse iruhande rw'umuhanda hari ibiti byinshi ndetse n'amapoto.

Imodoka nini cyane iri mu mabara y'umweru n'umukara, ubona ko iri hagati mu muhanda ariko nta mushoferi uyirimo, uwo muhanda ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye hari kandi n'umuntu ubona ko agiye kugera kuri iyo modoka, wambaye amabara y'ubururu.

Imodoka nini cyane iri mu mabara y'umweru ubona ko iri mu bwoko bw'ikamyo, ihetse ibintu byinshi umuzigo muremure yapakiye ubona ko bawitondeye. Iri hagati mu muhanda iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo iruhande rw'uwo muhanda hakikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

Umuhanda wisanzuye ubona ko iri urimo imodoka nini izwi nk'ikamyo, ipakiye ibintu byinshi bitandukanye na byo bipakiye mu mufuka bitwikirijwe na shitingi y'ubururu, muri uwo muhanda kandi harimo n'abandi bantu, hakurya yawo hari inzu yubatse.

Umuhanda mwiza cyane, uriho amapoto abiri atwara umuriro w'amashanyarazi, imbere y'amapoto hari umunyegare ubona ko ari kujya mu cyerekezo gitandukanye n'ibindi binyabiziga biri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo ubona urimo ibinyabiziga bitandukanye higanjemo moto ndetse n'imodoka nini ubona ko iri kujya mu cyerekezo bitandukanye, hari kandi n'igare riri ahagenewe kunyura abanyamaguru ndetse na moto imwe ubona ko igeza ibiryo ku bantu batavuye aho bari.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo umumotari utwaye abagenzi; iruhande rwawo hari ubusitani bwiza burimo ibiti; inyuma yubusitani hari undi muhanda bigaragaza ko nawe ufite icyerekezo ujyamo.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rwawo hari ikinyamitende kizwi nk'igare gihetse agafuka, kitariho umuntu giparitse ahagenewe kunyura abanyamaguru, inyuma yaho hari guturuka ikinyabiziga kizwi nka moto.

Umuhanda wahuriwemo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, birimo imodoka, moto ndetse n'akarifani bigaragara ko kari kujya mu cyerekezo kimwe n'icya moto ndetse n'inzu zikikije umuhanda, harimo ahacururizwa imiti ndetse n'ahacururizwa ibikoresho.

isangano ry'imihanda ya kaburimbo ubona ko ijya m'icyerekezo gitandukanye harimo kandi ahagenewe ahagenewe kwambukira abanyamaguru nta nkomyi hakurya yaho hari imodoka ubona ko yagenewe kwamamaza ikigo cy'imari kizwi nka beride gitanga inguzanyo ku banyarwanda.

Inzira nziza ntoya y'amapave ubona yagenewe kunyuramo abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bifite amapine abiri ubona ko ari hatoya hataca imodoka, inyuma y'aho hari imodoka ubona nini bigaragara ko iri guca mu muhanda wa kaburimbo munini ndetse n'abantu benshi ubona bari kujya mu byerekezo bitandukanye.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ubona imwe ari ntoya indi ari nini; inini iri mu mabara y'icyatsi n'umukara, intoya iri mu mabara y'umweru n'icyatsi gikeya; ubona ko ziparitse ahantu ntabantu barimo bisa nkaho zitegereje abo zitwara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane y'umweru izwi nk'ikamyo, ihetse ibintu bigaragara ko ari imizigo myinshi ariko itagaragara, itwikirije shitingi y'ubururu ndetse n'imigozi ihambiriye uwo muzingo, uwo muhanda kandi urimo na moto ebyiri ubona zitwaye abagenzi.

Umuhanda mwiza cyane wubatse ku buryo bugezweho, harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, bigaragara ko biri kujya mu cyerekezo kimwe, uwo muhanda kandi ufite amatara menshi acanye, bigaragara ko hari mu ijoro, ndetse n'ahandi ubona hakurya yaho hari ibinyabiziga byinshi, na byo bitandukanye, bigaragara ko habaye ambutiyaje mu mujyi.

Imodoka ndende y'umweru, iri mu bwoko bw'ikamyo, iri mu muhanda hagati, mu muhanda wa'abagenzi harimo umuntu uri kugenda, hirya gato hagaragara ibinyabiziga bya moto, uwo muhanda kandi ukikijwe n'ibiti.

Imodoka y'umweru n'umuhondo iparitse ahegereye umuhanda y'ikigo kigenga kitwa Yego, inyuma yayo hari isoka ubona ko ricuruza ibikoresho ndetse n'iruhande rwayo hari amazu, hakurya yaryo kandi hari n'amazu ubona ko ari amagorofa byerekana umugi.

Umuhanda wa kaburimbo ubona mwiza, urimo imodoka izwi nka kwasiteri iri mu mabara y'umweru, hirya yayo hari amazu ubona ko akorerwamo ibintu bitandukanye, hari n'umuryango kandi ufite amabara y'umutuku, bigaragara ko hakorerwa cyangwa hakinirwa imikino y'amahirwe.

Ahantu hisanzuye bigaragara ko ari ahahurira imodoka nyinshi zitandukanye hazwi nka gare ndetse n'abantu benshi bahurira muri iyo gare batandukanye yaba abatega, abageza aho bajya ndetse n'abahakorera ubucuruzi, inyuma yayo hari amazu bigaragara ko akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Umuhanda mwiza cyane wagenewe abanyamaguru gusa, ahangaha nta kinyabiziga kihanyura. Impande y'uwo muhanda hari imiturirwa myiza myiza ndetse n'abantu bari muri uwo muhanda bari kugenda, n'abandi ubona ko biyicariye bari kwiruhukira.

Ahantu hisanzuye ubona ko ari nk'ikibuga cy'umupira, kirimo kandi abantu ubona ko bose bari gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari ahantu hahurira abantu benshi mu buryo bwo kunoza imikinire.

Icyapa kibuza abatwaye ibinyabiziga gukatira aho kiri basubira mu cyerekezo bari guturukamo kugira ngo bitaza guteza impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye byinshi kandi hakurya yawo hari ahantu ubona hari ibiti byinshi ndetse biririmo icyapa kivuga ko nta muntu wemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu kandi ko imbere gato hari kamera yagenewe gupima umuvuduko .

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'imirongo y'umukara, kimenyesha abatwaye ibinyabiziga ko mu muhanda bagiye kugeramo imbere gato ugiye kugabanuka mu ngano.

Icyapa ubona kiri mu busitani, gifite amabara y'ubururu n'umweru kimenyesha abantu ko imbere hari isangano ry'imihanda, ibinyabiziga bihanyura bizenguruka. Imbere kandi hari icyapa bimeze kimwe ariko cyo kiri mu mabara y'umutuku, umweru, ndetse n'umukara.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda kiri mu mabara y'umweru n'inyuguti zanditse mu mabara y'umukara cyerekana ko umuntu yinjiye mu karere ka rusizi avuye mu karere yari arimo.

Isangano ry'imihanda ya kaburimbo, aho iyo mihanda ihurira hari icyapa kivuga ko nta modoka yemerewe kuhahagarara, ndetse n'abamotari bari kuva mu byerekezo, n'abajya mu byerekezo bitandukanye, bigaragara ko buri wese afite aho agiye.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku mo imbere harimo umuntu usa nk'ufite igikoresho kiri gukora mu bitaka kiri mu mabara y'umukara, cyerekana ko imbere gato hari kubakwa inyubako.

Icyapa cyerekana ko nta muntu wemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu ndetse n'abakozi batatu bari gushyiraho icyapa cyerekana ko imbere gato hari igikoresho cyagenewe gupima abarengeje umuvuduko, inyuma yacyo hari inzu nziza y'umuturirwa ikikijwe n'ibyuma.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo inyuma yawo hari ubusitani bwiza buririmo icyapa kivuga ko nta muntu wemerewe guhagarara aho ngaho, inyuma y'icyapa naho hari igipangu gikikijwe n'ibyuma bigaragara ko ari byo bahazitije.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo cyandishishijwe inyuguti z'umukara gishyirwa mu muhanda kibwira ibinyabiziga ko bakwiye kugenda gake aho bageze, kikaba gisobanura ko abantu bashobora gukoresha umuvuduko muke cyane ushoboka.

Umuhanda wa kaburimbo ubona urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye byiganjemo moto, iruhande rw'akayira k'abanyamaguru kandi hari icyapa cyerekana ko aho hantu hemerewe guhagarara ibinyabiziga, ndetse n'abantu bari kugendera mu kayira kagenewe abanyamaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo wubatse ku buryo bugezweho ujya mu byerekezo bitandukanye ubona uriho ibinyabiziga byinshi byinshi bitandukanye biri kugenda bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'ubwigenga bukikijwe n'ibiti ndetse n'amapoto menshi ubona ko ariho n'amatara yo ku muhanda.

Ahantu hari inzu nyinshi zubatswe zitandukanye, zubatse mu buryo bwo guturwamo n'imiryango y'abantu hakaba kandi hakikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi byinshi bigaragara ko ari ahantu hatari hafi y'umuhanda

Inzu nziza cyane zubatse ku buryo bugezweho, bigaragara ko ari inzu zo guturamo, ndetse n'izindi z'imiturirwa bigaragara ko zubatse ahantu hamwe zikikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye kandi buri inyuma y'igipangu hariho ibiti.

Ahantu heza hari amazu menshi atandukanye yubatse ku buryo bugezweho, harimo imiturirwa ndetse n'andi atari imiturirwa akikijwe n'ibiti byinshi bigaragara ko ari ibikurura umwuka mwiza muri izo ngo zihatuye.

Ikigega cy'umukara cyagenewe mu gufata amazi y'imvura, kiri mu gipangu gisakaje amabati ubona y'umutuku, hakurya y'iyo nzu kandi hari n'izindi nzu nyinshi zitandukanye zikikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'amapoto ku muhanda atwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda nyabagendwa urimo abantu benshi bari kugenda ubona berekeza mu byerekezo bimwe, ndetse n'umuntu uhagaze kuri kiyosike itangirwamo serivisi za emutiyene, hakurya yaho hari inzu icururizwamo imiti izwi nka farumasi.

Inzu nziza z'imiturirwa, ubona zubatse ku buryo bugezweho. Imbere yazo hari ahagenewe guparikwa ibinyabiziga, ndetse n'ubusitani burimo indabyo, hirya yazo hari ibiti bizikikije.

Umuhanda w'amabuye uri hagati y'amazu atandukanye, iruhande rwawo hari amapoto abiri, imwe ubona ko iriho insinga nyinshi, bisobanuye ko ujyana umuriro mu byerekezo bya kure kandi bitandukanye ndetse n'irindi poto ritanga umuriro hafi aho.

Inzu nziza ubona ko ziri ku murongo umwe, zubatse ku buryo bugezweho kandi ubona ko ari imiturirwa, imbere yazo hari umuhanda ubona w'igitaka, hari n'inzu kandi ubona ko iriho umuntu usa nk'aho ashaka kwinjira mu gipangu.

Inzu nziza cyane y'umuturirwa yubatse ku buryo bugezweho, imbere yayo hari igiti cy'umukindo, imbere yayo gato hari ibyapa bibuza abantu guparika ibinyabiziga aho ngaho, nubwo hari parikingi yemerewe guparikwamo ariko ibyo byapa birababuza.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza wubatse mu buryo bwiza, hagati mu muhanda harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwigenga kandi umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

Inzu nziza nini z'imiturirwa zubatswe kimwe kandi mu buryo bugezweho, bigaragara ko ari inzu zo guturwamo imbere yazo hateye indabo, nziza nazo ziconze neza, iyo nzu iri iruhande rw'umuhanda.

imodoka eshatu ziparitse ahagenewe guparikwa ibinyabiziga inyuma yazo hari inzu ubona ikorerwamo serivisi zitandukanye irembo ndetse n'ibindi inyuma y'iyo nzu hari umutirirwa muremure mwiza ufite ibirahure byinshi bitandukanye

Ahantu bisa nkaho hazitiye hari ushinzwe umutekano wahongaho ndetse n'icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umutuku cyerekana ko aho hantu hinjira ufite uburenganzira gikikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'uwo muntu wemerera abantu gukomeza.

Inzu nziza isakaye ku buryo bugezweho, isakajwe amabati y'umutuku ifite igipangu cyubakishije sima, hejuru yacyo hari ibyuma bikizengurutse bisa nk'aho ari ugucunga umutekano, ikikijwe kandi n'ibiti bitandukanye ndetse n'inyuma yayo hari izindi nzu zubatse neza.

Inzu y'umuturirwa, yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, hejuru yayo hari icyapa cyerekana ko ari mu murenge wa Ndera, inyuma yayo hari inzu nyinshi, nziza, zubatse mu buryo bugezweho, ariko zubatse ahantu hasa nk'aho atari hafi y'umuhanda, ahubwo ari ahantu hakorerwa ubuhinzi bw'ibindi bintu, higanjemo ibiti.

Ni inzu y'umuturirwa nziza cyane ubona iri ku muhanda icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye ndetse ifite n'imiryango ubona ko buri hose hafite serivisi ihatangirwa. Imbere yayo hari imodoka nyinshi zitandukanye, ubona ko ziri kuza izindi zigenda.

Inzu nziza cyane y'umuturirwa ubona ifite amarangi yiganjemo umweru, amadirishya n'inzugi by'icyatsi, imbere yayo hateye ibiti byiza ubona ko byagenewe umutako ndetse n'imodoka ubona imwe isa nk'ifunguye inyuma n'izindi ziparitse.

Inzu nziza cyane y'umuturirwa yubatswe ku buryo bugezweho, ifite igipangu cyiza kiriho amadirishya y'ibyuma, icyo gipangu kandi gikikijwe n'amatara meza y'umweru.

Inzu nziza cyane y'umuturirwa ifite amarangi y'umukara ndetse n'umweru ifite ibikoresho byongera cyangwa bikagabanya ubushyuhe ndetse n'amadirishya ubona menshi bigaragara ko buri hose hafite serivisi ihatangirwa.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye, ituruka mu byerekezo bitandukanye, bigaragara ko hari imodoka igiye kubisikana na moto ziri kujya mu cyerekezo imodoka ivuyemo, hirya yaho gato hari ishyamba, hakurya yaryo hari inzu nziza y'umuturirwa, bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse n'imodoka nyinshi n'amamoto biparitse aho.

umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ibinyabiziga biri kugenda, iruhande rwawo ahagenewe akayira k'abanyamaguru harimo abana bambaye impuzangano bigaragara ko ari abanyeshuri, inyuma y'aho gato hari icyapa cyerekana ko aho hantu hari ishuri.

Imihanda myiza ya kaburimbo yubatse ku buryo bugezweho cyangwa ibyerekezo bitandukanye ndetse n'undi muhanda wa gatatu ubona ko wahariwe abanyamaguru hagati y'iyo mihanda kandi hateyemo ibiti byiza cyane ndetse inyuma y'akayira k'abanyamaguru bigaragara ko hari ubusitani bwiza nabwo burimo ibiti.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti ndetse n'amapoto, ubona ko harimo n'imodoka ziri guturuka mu byerekezo bitandukanye, kandi uwo muhanda ukaba uninjira mu wundi muhanda w'igitaka.

Ihangano ry’imihanda ya kaburimbo ubona ko ijya mu byerekezo bitandukanye, ndetse n’ahagenewe kunyura abanyamaguru nta nkomyi bigaragara ko bari kwambuka. Ndetse n’ibinyabiziga bigaragara ko byagabanyije umuvuduko kubera ko hari abantu bari kwambuka, ndetse n’icyapa kivuga ko aho hantu hafi ari ikiraro.

Imihanda ibiri ya kaburimbo ubona ijya mu byerekezo bitandukanye, hari n'imodoka y'umutuku ubona igeze aho abagenzi bambukira nta nkomyi ndetse n'inzira yahariwe abanyamaguru iriho uduteme duto duto munsi harimo ikiraro, hakurya y'aho hari amaduka akoreramo ibintu bitandukanye ndetse n'ahatangirwa serivisi zitandukanye.

Kaburimbo ubona ko yangiritse bikabije yinjira mu muhanda w'igitaka ufite ikiraro kirekire gitwara amazi ndetse n'akantu k'agateme bashyizeho ko kucyambukiraho imbere gato hari inzu ubona ko yubatse igipangu cy'ibyuma bitukura ndetse n'ibiti inyuma yayo .

Umuhanda wa kaburimbo uri ubona urimo imodoka ebyiri zijya mu cyerekezo kimwe, hakurya yawo hari ibiti imbere kandi gato y'imodoka ari icyapa kiri kwamamaza ubwoko buzwi bwa telefone buzwi nka samusanga galagisi ndetse n'itariki yasohokeyeho.

Isangano ry'imihanda ubona ijya mu byerekezo bitandukanye, iyo mihanda kandi harimo ibinyabiziga ubona ko bituruka mu byerekezo bitandukanye, ikindi kandi hari n'aho ubona iyo mihanda ihurira, hari n'icyapa kivuga ko ugomba gusukura umujyi wa Kigali, ndetse n'abandi bantu biganjemo abakora amasuku mu mujyi.

Umuhanda wa kaburimbo ubona urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, ikinyabiziga cy'amapine atatu kizwi nka kalifani ndetse n'imodoka, hari n'abagenzi babiri ubona ko bahagaze ku muhanda wagenewe abanyamaguru ndetse n'igare riparitse mu kayira k'abanyamaguru.

Isangano ry'imihanda ijya mu byerekezo byinshi bitandukanye, iruhande hari imodoka eshatu ndetse n'abantu bari gukomeza bajya muri ibyo byerekezo bitanduikanye ndetse n'imiturirwa yubatse hafi y'umuhanda.

Imihanda ibiri ya kaburimbo ubona yubatse mu buryo bugezweho, itandukanyijwe n'ubusitani bwiza buteyemo umukindo ndetse no ku mpera z'umuhanda umwe, hari ibyuma bikikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

Isangano ry'imihanda ubona ijya mu byerekezo bitandukanye hagati mu muhanda harimo ibinyabiziga byiganjemo moto ndetse n'umuntu uhagaze ku ruhande ahagenewe akayira k'abanyamaguru hagati mu muhanda kandi harimo n'amatara manini yagenewe gushyirwa ku muhanda.

Imihanda ibiri ya kaburimbo ubona itandukanijwe n'ubusitani buteyemo imikindo hari kandi n'igice kimwe cy'umuhanda cyemerewe guparikwamo imodoka bigaragara ko ari ahantu imodoka zishobora guhagarara ndetse n'akayira k'abanyamaguru n'ibinyabiziga biri kugenda muri uwo muhanda.

Ibinyabiziga byinshi byiganjemo moto n'amagare, bihagaze aho byagenewe guhagarara bitegereje abagenzi biri butware, ndetse n'umuhanda ubona urimo ibinyabiziga bikomeza, hakurya y'umuhanda hari ikindi kiraro, gicamo ibinyabiziga hasi no hejuru ndetse n'icyapa kivuga ko ntawemerewe kuhagarara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ubona ujya mu byerekezo bibiri bitandukanye, hari kandi n'ahantu hagenewe kwambukwa n'abanyamaguru, hari mu mabara y'umweru, ubona ko umuturage w'umunyamaguru yambuka nta nkomyi, hari n'ibinyabiziga biri kugenda muri kaburimbo ndetse n'umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza.

Imodoka ntoya iri mabara y'umweru ubona ko igeze ahagenewe ko abagenzi bambuka nta nkomyi kandi uwo muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi.

Isangano ry'imihanda ubona ijya mu byerekezo bitandukanye, harimo kandi ibinyabiziga byinshi bitandukanye, hakurya gato mu muhanda hari ipoto ubona ko itanga umuriro mu byerekezo biri mu ntera ndende hariho insinga nyinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi ubona ko biri kugenda mu cyerekezo bitandukanye, hirya gato hari umuhanda wateganyirijwe abanyamaguru wegeranye n'ahateganyirijwe kwicarwa n'abagenzi bategereje ibyo bateze.

Umuhanda w'igitaka ubona werekeza mu muhanda wa kaburimbo ,Uwo muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'indabo, Hagati mu muhanda wa kaburimbo hari imodoka nziza ifite amabara y'umweru ndetse n'akabara k'umutuku ubona ko iri kugenda imanuka.

Isangano ry'imihanda ubona ijya mu byerekezo bitandukanye aho iyo mihanda ihuriye harimo ubusitani buteyemo igiti cy'imikindo ndetse n'uwundi muhanda harimo ibinyabiziga byinshi ubona biri kugenda bitwaye abagenzi kandi uwo muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi.